Aha ni mu kabari ku meza bakiriraho abantu. Ndi kubona ibinyobwa bitandukanye birimo inzoga zihenze. Harimo inzoga zikorerwa mu Rwanda zo mu bwoko bwa sikolo, ndi kubonamo umuseriveri, nkahabona ivaze nziza cyane. Aha ngaha bakaba bahicira inyota.

Aha ni ku nyubako y'imyidagaduro mu masaha y'ijoro. Abantu bari bahasohokeye babacanira amatara kugira ngo bidagadure banezerwe, baruhuke mu mutwe, kandi bishime. Aha hantu hakunze kuza abahanzi bakahataramira, hari n'igihe bakunze gucuruza n'ibintu by'ibinyobwa kugira ngo abantu bahasohokeye baticwa n'inyota.

Ibi ni ibiryo by'imvange byaruriye ku isahane, bakaba bari kubirisha uduti, ndi kubonaho ibitunguru hirya hakaba hariho abantu bari bari kubirya, ibinyobwa bari bari gusangiza harimo agafanta gacagase basomyeho gakeya, hariho na kapanashi n'amazi n'agafanta kari mu kirahure ndetse n'ikindi kirahure kirimo amazi gusa.

Aha ni hantu mu kabyiniro ka kijyambere, ndibona harimo abantu bambaye utwumvisho mu matwi, harimo n'umuntu ushinzwe kuvanga imiziki, ibi bakaba bakunze kubikora mu rwego rwo kwirinda urusaku, niho bambika abantu ututwumvisho, barangiza bakabacurangira bumvira imiziki mutwumvisho barangiza bakabyina umuziki.

Aha ni mu kabari kubabatse neza ku buryo bwa kijyambere bugezweho, ndi kuhabona inzoga ya Mitsingi isutse mu kirahure, nkahabona ndetse n'indi depo y'izindi nzoga nyinshi cyane, zirimo amarikeri, zirimo n'izindi nzoga cyane zihenze.

Iki ni ikigo gikora ibintu by'ubugeni n'imideri cyubatse ahantu mu ishyamba, bafite uruzitiro rw'ibyuma, bateyeho ibyatsi byiza biranda, hariho n'ibiti by'inganzamarumbo bitoshye, n'imbere yo mu kigo harimo inyubako nziza, ziriya birashoboka yuko arizo bakoreramo.

Aha ni ahantu hacururiza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, ndi kuhabona intebe z'abana, intebe z'amasheze, intebe z'amatabureti, ndi kuhabona indobo nkabona imisego yo kuryamaho, nkabona amakuvurori n'ibindi biryamirwa bigiye bitandukanye.

Aha ni ahantu bacururiza imyenda itandukanye, hariho ibipupe bambitse imyenda kugira ngo abahanyura barebe uburyo imyenda baramutse bayambaye nabo yaba ibabereye. Hariho ibipupe by'abana, iby'abagore n'ibipupe by'abagabo, hakaba hariho n'ibyapa bigaragaza ibyo bakora.

Aha ni ahantu kuri etaje batanga serivisi zitandukanye zirimo gucuruza ibicuruzwa by'ubwiza batunganya imisatsi, bagacuruza amavuta y'imisatsi, bagacuruza amavuta atandukanye. Hariho n'ahandi hantu nk'uko bigaragara ku cyapa bashobora kuba bacuruza imyambaro y'abageni.

Izi ni inyubako z'ubucuruzi, imiryango yazo ikaba ikinze bivuze yuko banyirazo batarahagera ngo batangire gucuruza. Nkurikije icyapa mbona, ndabona bashobora kuba bacuruza imifariso. Ndi kuhabona n'undi muntu ushinzwe gukora amasuku w'umudamu, wambaye impuzankano z'ubururu.

Aha ni ahantu bacururiza imiti y'amatungo, ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha mu bworozi bw'amatungo atandukanye. Ku cyapa cyabo hashushanyijeho inka, hashushanyijeho ihene ndetse n'inkoko, hariho na nimero za terefone, ndetse n'ibindi birango bitandukanye. Hariho agatebe ka kinyarwanda, nta muntu mbona uri muri iri duka.

Iri ni iduka bacururizamo ibyuma bitandukanye byo gukanika imodoka. Ndi kuhabona amapine, ndi kuhabona ibyuma bigiye bitandukanye byikoresha ku modoka, ndi kuhabona amavuta ya feri, amavuta y'imodoka, amavuta ya moto n'amavuta ya moteri zigiye zitandukanye. Harimo umugabo ubicuruza, uko bigaragara uyu mugabo ni umukire.

Aha ni ahantu bakanikira ibikoresho by'ikoranabuhanga, bakanacuruza ibifasha ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, nkurikije uko mbona kuri iki cyapa, hariho urutonde rw'ibyo bakora, bakanika amateleviziyo amatelefone, bakanika za keto, amaradiyo, amapasi na za raronge n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ariko by'ikoranabuhanga n'iby'umuriro w'amashanyarazi.

Aka ni akabari kubakiye neza cyane, kakaba gafite umutekano bitewe n’uko gakikijwe n’igipangu gikinzwe neza cyane. Gafite icyapa yuko ari kwa Muneza. Aka kabari bakaba bacuruza ibinyobwa bitandukanye, ndetse na ka mushikake, ugashaka waza kuhagurira.

izi ni inyubako z'ubucuruzi, zubakwa ahantu mu gasantere k'ubucuruzi, imwe iriho icyapa ikaba iriho amakaro, izindi zikaba zitaruzura neza, ndikuhabona n'abantu baremye aka gasantere, kugira ngo nabo bagire ibyo bihahira, usibye ko izi nzu zose bigaragara yuko zifunze.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi isize amarangi y'umuhondo, ikaba yanditse ho ngog ku makaro meza, iyi nyubako ikaba icururizwamo ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, ndi kuhabona amakaro, nk'abonamo imisarane ya kijyambere yo kwicaraho.

Iki ni icyapa kiranga ahantu hakorera imishinga y'ubuhinzi, kuri sosiyete yitwa Zamura Famu Sapurayi. Iki cyapa kikaba kigaragaza yuko batunganya ibintu by'imbuto, bagacuruza n'ibintu by'inyongeramusaruro, kugira ngo abahinzi bagire umusaruro mwiza cyane.

Iyi ni hoteli yitwa Fatima, iherereye i Musanze, ni iya Kiliziya Gatolika, bakaba batanga serivisi nziza. Harimo imodoka irimo kwinjira, umusekirite arimo kuyisaka, harimo n'undi mu sekirite wegamiye ku rukuta, uri kureba mu muhanda wa kaburimbo. Iyi hoteli yubatswe neza, nacyo ni kimwe mu bikorwa remezo byatumye aka Karere ka Musanze kaba keza cyane.

Aha ni ahantu hacururiza ibikoresho bitandukanye ndi kuhabona isabune iri mu kajerekani, nkabona umunzani, nkahabona amavuta atandukanye, ndikuhabona n' amasafuriya ndetse n'imyenda mikeya, iri duka uko bigaragara ni ahantu mu imfunganwa hatagutse cyane.

Aha ni ahantu haba ibintu bitandukanye, ndi kubona za mushikake, amafi ndetse n'ibindi biryo bitandukanye. Birashoboka ko haba kuri resitora, ariko no ku cyapa bagaragaza y'uko berekana imipira, yaba iyo mu Rwanda, ndetse na shampiyona zitandukanye zo ku mugabane w'u Burayi. Hakaba n'icyapa cy'uko haba ibinyobwa bitandukanye, hakaba hari no mu kabari.

Aha ni ahantu mu iduka bacururiza ibintu bitandukanye, nkurikije uko mpabona mu byapa, bahacururiza ibikoresho by'ubwubatsi ndi kuhabona amakaro, bashobora kuba bahacururiza inzoga zitandukanye ndi kuhabona amakulete, bahacururiza ndetse n'amafaranga ndi kuhabona ibyapa byamamaza banke zitandukanye, ibyapa byamamaza banki y'abaturage, ibyapa byamamaza n'ibindi bintu bitandukanye.

Aha ni muri hoteri，banditse aya magambo aha ikaze abantu bose baje babagana， bashaka serivisi zitandukanye batanga. Ni ukugira ngo umuntu wese uje abagana， yiyumvemo ibikorwa byabo， yiyumvemo ikaze， yumve ko bamwakiriye neza， n'urugwiro rwinshi.

Aha ni ahantu bacururiza icyo kunywa mu kabare, hariho ikirango kiriho inzoga ya gatanu ikorwa n'uruganda rwa sikolo, hariho ibyamamare bitandukanye birimo kwamamaza, kuri iki cyapa aha hantu bashobora kuba banafite na burushete ndetse n'izindi nyama zitandukanye.

Ibi ni ibirango by'iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo ibyo mu gikoni, amaradiyo ibikoresho by'ikoranabuhanga, imashini zogosha, amaradiyo ndetse na za ampuri ,utwumvisho two mu matwi twa tundi tumwe bambara mu mutwe, hariho n'abantu bakoraga amatelefone ibyo bikaba aribyo birango ndi kubona.

Iyi ngiyi ndabona ari inyubako abantu batunganyirizamo amafoto ,barahafotorera ,bagatunganya amashusho, aha hantu bakaba bahacururiza amafilime, imiziki n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'ibyo ngibyo.

iki ni icyapa kigaragaza ko, aha hantu hakora ibintu by'imideli n'ubugeni, hariho ibiti bitatu by'inganzamarumbo, ndetse n'umuryango, ufunguye w'amarembo yinjira muri iki kigo, gikora ibi bintu by'ubugeni ndetse n'imideli, biragaragara yuko ubusitani bwabo butoshe, iki kigo kikaba cyubatse ahantu mu gitari.

Izi n'inyubako zirimo amacumbi, bakaba bacumbikira abantu batandukanye bageze muri aka gace ,bakabura aho barara biba ngombwa yuko babacumbikira bakabishyura, abantu bakora iyi bizinesi bakunze kwishyuza ku munsi cyangwa se ku iijoro.

Aha ni ahantu mu iduka bacururizamo ibikoresho bitandukanye birimo utu tuntu hamanikaho imyenda yo mu rugo. Harimo ibi bishashi batwaramo imyenda hakabamo n'utundi tumverope batwaramo amakado ndetse n'amasakoshi y'abagore, ibikombe n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo.

iri ni iduka bacururizamo ibintu bitandukanye , ndikubona indobo nkahabonamo amafu ,nkabona imifuka y'imiceri, ndi kubona icyapa ariko kitagaragara neza ,biragoye kugisoma . Iri duka rirafunguye , ubungubu bakaba barimo gucuruza.

Iki cyapa kimanitse kuri iyi nzu y'ubucuruzi, kiramenyesha yuko ahantu bakora serivise zo gutunganya imyenda, zirimo kuyifura, kuyigorora, bakaba batanga na serivise zo kudoda imyenda, ndetse no gusana imyenda yangiritse.

Aha ni ahantu hacururiza ibintu byinshi bitandukanye ndi kubona hacuruza amazi mu macupa ya jibu. Ni ukuvuga ko uzana hano igicupa kinini cya jibu barangiza bakakuguranira ikirimo amazi ukabishyura amafaranga ndi kubona n'ahandi bacururiza gaze, gaze batekesha ibiribwa bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye ahantu ha mbere aha handitse mango bahacururiza ibijyanye na internet na murandasi bitandukanye bacuruza lawuta, bagacuruza n'utundi twuma tw'ikoranabuhanga hariho n'undi muryango bacururizaho imyambaro y'abadamu by'umwihariko.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi yubatse ahantu ku kumuhanda. Bacururizaho ibintu bitandukanye. Ndi kuhabona hariho iduka ricuruza ibintu bimeze nk'inkweto z'Abamasayi, hariho n'akagare gatwaye ibisheke, hariho n'akazitiro hariho na ka etajeri bamanitseho udukweto. Indi miryango irafunguye sinzi ngo baraza gukora ryari.

Aha ni ahantu hariho ibintu bitandukanye, ndikuhabona ikiganza kirambitse, aha kuri uyu muryango, nkabona icupa ry'amazi ririmo ubusa, nkabona amvelope, nkahabona umuntu wambaye ijire ya mo emutiyene, nkahabona mudasobwa, nkahabona ndetse na suli, ikoreshwa kuri mudasobwa.

Iyi ni inyubako y' ubucuruzi isize amarangi y' umutuku, ariho ibirango bya eyateli hakaba, hariho umuryango ufunguye umwe gusa uriho ibyapa bigaragaza ko bakora, ibijyanye n' ubwiza no gutunganya imisatsi.

Iyi ni inyubako y'isoko rya kijyambere yubatswe neza isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umukara, ndimo kuhabona ibihaza byiza bya Kinyarwanda bya bindi byitwa nkogote. Ndi kuhabona hirya y'aho abantu babiri barimo umugore n'umugabo barimo kuganira.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi, ahantu runaka mu bice byo mu majyaruguru, hakaba hariho ikibumbano cy'ingagi, hariho umuryango umwe ufunguye, kuri iyi nyubako ahasa umuhondo, hariho n'abandi bantu bigaragara yuko, aha hantu hacururizwa ibintu by'ubugeni.

Iki ni icyapa kiranga ahantu hacururiza ibintu bitandukanye birimo ibifasha ubuzima kumera neza, birimo iby'ubuhinzi, birimo ibikoresho by'isuku amasabune yo koza ibyombo n'ayo gukoropa, birimo umuti wica imibu, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ariko bifasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Aha ni ahantu batunganyiriza imishinga y'ubworozi, uko bigaragara iyi nyubako ikaba ari iya kijyambere, batunganyirizamo imbuto yo guhinga nziza y'indobanure, iyi nyubako ikaba ari iy'ubuhinzi ikaba ari iyo bateguriramo imishinga itandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi, bagacuruza n'inyongeramusaruro.

Aha ni ahantu bahacururiza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo: ndi kuhabona intebe zo mu maparalasitike, nkahabona udutanda, nkahabona ibintu bamanikaho imyenda mu nzu, nkahabona imisego, nkahabona bya bishashi batwaramo imyenda, nkahabona ibiringiti bitandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Aka ni akazu k'ubucuruzi kitwa kiyosike bakunze gutereka ahantu ku muhanda, kugira ngo abantu batambuka ku muhanda baze kubahahira, niko abona ibase irimo avoka nkahabona ibicuruzwa bigenda bitandukanye , birimo imbere muri aka kazu ndi kubona amazi nkabona imitobe igiye itandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite imiryango myinshi. Bacuruza ibintu bitandukanye. And hambere bacuruza imyambaro ndetse n'ibintu by'imideli. Ahandi bahacuruza ibyuma by'ubwubatsi. Ndi kuhabona ibyuma byo gukoresha parafo, nkahabona imyambaro myinshi irimo n'amakositimu, n'amapantaro, n'amashati ndetse n'imipira byiza.

Aha ni ku gasantere k’ubucuruzi, bacuruzaho ibintu bitandukanye. Ndi kuhabona amaduka, ari n’ibirango bigaragaza ibyo bakora. Hariho imodoka y’umukiliya waje guhaha. Harimo n’umuntu uri gupakira imodoka inyuma, wambaye agakoti k’umutuku, karimo n’utubara tw’umweru. Harimo amaduka, ndetse n’imifuka y’imiceri.

Aka ni akabari ko mu Kininigi kitwa Nositerese gaherereye ku musigiti ugana muri rompuwe, aka kabari kakabari keza cyane kakaba karimo ibiti, kakaba kagira umwuka mwiza, ndetse nta n'akavuyo gakunze kuba muri aka kabari.

Aha ni ahantu hacururiza ibikoresho by'ubwubatsi ,ndi kubona ikiganza cy'umuntu bigaragara yuko ashaka kugura iyi tiyo yo muri fose, ndikubona ijile y'abubatsi, nkabona n'ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu bwubatsi, ibi bikoresho bikaba bikoreshwa mu kubaka amazu ahanini.

Aha ni ahantu hacururizwa ibikoresho by'ubwubatsi. Uko mbibona bariya bagabo bakaba bari gupakurura amakaro yaje mu modoka ndende cyane. Aba bagabo ni bakeya kugira ngo bapakurure aya makaro yose bayarangize. Birasaba yuko nyirayo abongera umubare. Uyu mugabo urimo kubapakuruza aya makaro bigaragara yuko ashobora kuba ari imfumfu.

Aha ni ahantu habereye igiterane, korari ikaba irimo gususurutsa abitabiriye iki giterane. Bari ahantu heza cyane mu nzu mberabyombi ifite isuku. Bafite ibicurangisho ndetse n'ibindi byuma bitandukanye, bafite indangururamajwi, bafite za gitari ndetse na za mikoro, zo kugira ngo amajwi yabo asohoke yumvikana neza.

Iri ni iduka bacururizaho imbuto, ndi kubonaho inanasi, nkabonaho igitoki, nkabonaho imineke, nkabonaho ibinyomoro, indobo, ameza, nkabona n'abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe bari gucuruza izi mbuto z'imineke, nkabonaho n'ibyapa byamamaza ibyo bakora.

Aka ni akabari kagezweho ka kijyambere kabamo n'akabyiniro, kubatse mu nzu igeretse gatatu. Iyi nyubako bashobora kuba barayubatseho hoteli. Ndi kubona icyapa nkabona abantu batandukanye biteye imitaka, ndikuhabona abaturage, nkabona imodoka ya polisi yitwa pandagali.

Ibi ni ibyicungo n'ibikinisho bitandukanye byo ku ishuri ry'incuke uyu mugabo akaba yasuye iri shuri agatangazwa n'ibi bikinisho bikaba ngombwa yuko abisura kugira ngo arebe ubwiza bwabyo ndetse n'uburyo bikoramo arebe utu tuzu arebe ibi byicungo n'ibikinisho bitandukanye bibarizwa aha aha hantu.

Aha ni ku nyubako y'akabare, hariho urupangu rukozwe n'amatafari ahiye ndetse n'ibyuma, ndikuhabona icyapa kiriho ibyo bakora, inyuma yaho hakaba hariho inyubako nziza cyane, igeretse inshuro nyinshi cyane, aka kabari kakaba kagezweho.

Iki ni icyapa kiranga ahantu hariho hoteri, hariho insinga z'amashanyarazi, hariho abantu, hariho ibiti bitoshye, harimo ibikorwa remezo. Urabona ko aha hantu hafite isuku hariho ibyatsi byiza, indabyo nziza, umuntu wegereye aha yahumeka neza, yagira impumuro nziza cyane.

Iyi ni inyubako ishobora kuba ari iy'Abashinwa bitewe n'uko mpabona ibinyuguti by'Abashinwa, cyangwa se ikaba ari iy'Abayapani, ariko ikigaragara ni uko iyi nyubako yubatswe ku nkunga y'Abashinwa cyangwa se Abayapani, bitewe n'uko ntazi gusoma ururimi rwanditse kuri ibi byapa byabo.

Iki ni icyapa cya hoteli ya Laparume. Iyi hoteli ikaba iherereye i Musanze. Ni hotel igira serivisi nziza. Inyuma y'iki cyapa ndi kuhabona ibiti byiza by'inganzamarumbo, bitoshye byiza. Urabona y'uko aha hantu hasa neza cyane.

Aha ni mu nyubako yagenewe gucururizwamo ibyokurya byoroheje, ndikuhabona indobo zigeze muri eshatu, ebyiri zirimo amandazi, indi imwe ikaba irimo keke. Ndikuhabona teremusi ebyiri, birashoboka yuko terimusi imwe yaba irimo icyayi cy'amata, indi ikaba irimo icyayi cya mukaru. Hakaba hariho amacupa y'amazi ndetse n'amacupa ya ji zitandukanye.

Aha ni ahantu mu isoko ryiza rya kijyambere ryubakiye ariko bakaba bahacururiza imbuto zitandukanye ndi kuhabona wotameroni, nkahabona imyembe, nkahabona imineke. Inyuma yaho ndi kubona abantu batandukanye baje guhaha harimo n'uwo mugabo cyangwa se n'umuhungu wambaye akagofero k'umweru.

Aha ni ahantu bacururiza ibitambaro bitandukanye byo kudodamo imyenda y'abagabo. Ndi kuhabona ibitambaro wadodamo amakositimu. Ikigaragara cyo ni uko uyu muntu ufite iri duka nawe ari umudozi, bitewe nuko mpabona imashini. Ndi kuhabona n'undi mubyeyi umwe waje gukora aka kazi ko kudoda imyenda.

Izi ni inanasi zirimo umufuka, bakaba bagiye kuzigemura ahantu hatandukanye. izi nanasi ni nziza cyane zera ahantu mu misozi hashyuha . Kandi ndi kubona n'ibiganza by'abantu bagiye gucuruza izi nanasi harimo n'umugabo uhagaze ku ruhande, wambaye agapira k'umweru, akaba ashobora kuba ari nyir'izi nanasi.

Aha ni ahantu bacururiza ibyombo n'ibindi bikoresho byo mu rugo. Ndi kuhabona ibikombe, nkahabona amarushe, nkabona imihoro, nkabona amasahane, nkahabona ibikoresho bitandukanye birimo amakanya, birimo ibyuma byo guhatisha ibirayi.

Aha ni ahantu hacururizwa ibikapu, ndi kuhabona ibikapu byo mu mugongo, nkahabona ibikapu by'abagore nkahabona n'imyambaro igiye itandukanye, hariho utubati bigaragara yuko iri duka ari irya kijyambere, yuko nyiraryo afite amikoro.

Aha ni ahantu hacururiza ibirayi byiza by'umutuku byitwa kinigi, ibi birarayi abantu benshi bakunze kubikunda kuko biraryoha, ahantu babihinze birera iruhande ndabona umugabo w'igikara usa nurakaye bishoboka ko yabuze amafaranga yo kwihahira ibirayi.

Aha ni ahantu mu isoko ryubakiwe ku buryo bwa kijyambere, ricururizwamo ibintu bitandukanye. Ndi kuhabona ibikoresho byinshi byo mu rugo, ndi kuhabona amakaneti, ndi kuhabona amapanu, ndi kuhabona ibiringiti bya kera, ndi kuhabona amasorori, ndetse n'amasafuriya n'ibindi bikoresho byinshi cyane.

Iyi nyubako ni isoko ry'akarere ka Musanze ryitwa goyiko, rikaba ari isoko ryubakiye neza ku buryo bwa kijyambere, rigeretse inshuro nyinshi cyane, abaturage bakaba bararyishimiye cyane, bitewe n'uko bari bakeneye ahantu ho gucururiza hagutse heza cyane.

Aha ni ku muryango w'ubucuruzi ,nimero mirongo ine kuri iyi nzu y'ubucuruzi hakaba harimo umuntu urimo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imifuka y'ifarini ,ihakabamo imifuka y'imiceri imifuka ya kawunga n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, hanze hakaba hamennye imyenda nayo barimo gucuruza.

Aha ni ahantu hacururiza imbuto zitandukanye, ndi kuhabona imineke myinshi cyane ihiye cyane n'itari yashya cyane, hariho n'uyu mugabo wambaye aka agapira gasa n'icyatsi, kakabamo n'utubara tw'umweru bigaragara ko wagira ngo ni umucuruzi w'izi mbuto, ndi kuhabona imyembe nkahabona ibipapayi.

Aha ni ahantu bacururiza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo ndi kuhabona ibikoresho byinshi cyane birimo uduseke tw'umweru, icyatsi, iroza ndetse n'umuhondo ndahabona ndetse n'utundi duseke turimo amabara y'umweru n'umukara ndi kuhabona imbabura bigaragara yuko ahangaha ari mu isoko ryubakiye neza.

Aha ni ahantu hacururizwa imbuto zitandukanye , ariko baziteretse hasi. Urabona ko bafite imbuto nyinshi zitandukanye ziri mu dupaniye, ariko duteretse hasi. Ndi kubonaho imineke, nkahabona amatunda y'amanyarwanda, nkabona ibinyomoro, nkahabona amaronji ndetse ndi kubona ari umukiriya umwe wambaye impuzankano waje guhaha imbuto kuri aba bantu.

Aha ni mu isoko, ahantu hacururiza ibyombo, ndi kuhabona indobo z'umweru, indobo z'icyatsi, harimo amabase, harimo amasafuriya, harimo amakaneti, amateremusi, n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo, by'umwihariko by'ibyombo, ahantu hahacururiza ibyombo.

Aha ni mu isoko ryubakiye. Ndi kuhabona ibikoresho bitandukanye. Ndikuhabona amasafuriya, indobo, amapampegisi, imitaka ya MTN. Ndikuhabona n'abantu batandukanye baje guhaha, barimo abambaye amasarubeti harimo ndetse n'abandi bantu batandukanye barimo gutembera.

Aha ni ahantu mu iduka, mu ikarito itanditsemo utuntu dutandukanye turimo amavuta ya giriserine z'umutuku, harimo n'amavuta ya kereri. Aha hantu hakaba hasa neza. Ndi kubona harimo n'agapaki k'urwembe. Bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko mu ikarito hakaba harimo amavuta yo kwisiga.

Aha ni ahantu mu Rwanda mu isoko rya kijyambere ryubakiye neza, bacururiza ibintu by'ibiribwa bitandukanye. Ndi kuhabona imifuka bishoboka ko yaba irimo into, nkahabona abantu batandukanye baje guhaha n'abaje gucuruza, nkabona n'izindi nyubako nziza cyane zisize amarangi ziri hakurya.

Aha ni ahantu bacururiza ibiribwa bitandukanye, ndi kuhabona umufuka w'ibishyimbo, nkahabona umuceri, nkahabona amafu atandukanye, arimo ubugari, hakabamo ifu ya kawunga, ndikuhabona ifu y'igikoma, nkabona sositomate, nkabona utujerekani tw'amavuta, ndetse n'indobo zirimo ibintu bitandukanye.

Aha ni ahantu bacururiza inkweto zitandukanye ziganjemo inkweto z'abagore. Ndikuhabona inkweto z'abagore nyinshi cyane zifite amabara menshi iz'umweru, z'umukara, ariko ni n'inkweto z'udushumi. Ndikuhabona na bote z'icyatsi, nkabona n'ibindi bikarito, nkabona ndetse n'amasogisi y'abagabo.

Aha ni ahantu hanze mu isoko ry'ubucuruzi, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Ndi kuhabona urujya n'uruza rw'abantu, baba abaje guhaha ndetse n'abaje gucuruza. Ndi kuhabona inkweto zitanditse hasi ku mashitingi ,nkahabona n'isoko ryubakiye ndetse n'amabutike yubakiye neza.

Aha ni ahantu bacururiza imbuto zitandukanye nziza zitoshye, ndi kuhabona imbuto nyinshi zitandukanye hariho imineke, hakaba amaronji, hakaba wotameloni, hakaba za orange, hakaba pome ndetse no ndi kuhabona n'ibibiringanya, ndimo kuhabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nta muntu ndi kuhabona yaba umucuruzi ndetse n'umuguzi.

Aha ni ahantu bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, ndi kuhabona ibyatsi bya gombo bitoshye, bimeze neza, ndi kuhabona amagi, ndahabona abantu b'abacuruzi, ari aba bacuruza gombo, haba abacuruza amagi, ndi kuhabona n'abantu batandukanye, baje kwihahira.

Aha ni muri etajeri yo mu iduka hariho ikarito irimo ji ebyiri, ji ya salama ya litiro eshanu na ji ya salama ya litiro eshatu. Hariho indi ji ntari kubona n'ubwoko bwayo ariko ndi kubona ikarito iyi ikaba ari etajeri bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye.

Aha ni ahantu bacururiza ibicuruzwa bitandukanye, ndi kuhabona imyambaro itandukanye igizwe n'imyambaro y'abana, ndikubona ikiganza cy'umugore wicaye bigaragara yuko ategereje ko bamwakira, nkabona imisego abantu baryamaho, nkabona abantu batandukanye baje kwihahira ibintu bitandukanye bicuruzwa muri iri soko.

Aha ni mu iduka ricuruza utuntu dutandukanye ndiku kubonaho jirete, nkabonaho amajyani, nkabonaho ibirungo bitandukanye ,nkabona supaguru nkabona uburoso bwoza amenyo ,nkabona imikasi nkabona n'urugi rufunguye nkabona n'icupa ry'amavuta.

Aha n'ahantu bacururiza ibikoresho bitandukanye; ndi kuhabona ibikoresho by'abana, by'umwihariko pampegisi, izi pampegisi bakaba bazambika abana, mbere yo kubambika amakariso kugira ngo batinyaraho, cyangwa se bakinyaho, ndikuhabona; uburoso bw'amenyo, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Aha ni mu isoko bacururiza imboga zigiye zitandukanye. Ndi kuhabona karoti nziza zimeze neza zishishe zibyibushye, ndi kuhabona umugore waje guhaha, ndabona intoryi, nkabona pavuro, nkabona inyanya, ndetse n'andi moko atandukanye y'imboga.

Iyi ni imitwaro y'ibisheke by'amoko atandukanye agizwe n'ibisheke by'umuhondo, ibisheke by'umukara ndetse n'ibisheke by'icyatsi, byegetse ahantu ku rukuta rusize amarangi y'umweru n'icyatsi kibisi, ibi bisheke bikaba biri ku isoko nawe ubishaka wakwigurira.

Aha ni mu isoko rya Musanze ryitwa goyiko, izi zikaba ari za nzira z'abantu bafite ubumuga, ndi kubona ibicuruzwa bitandukanye, biba ku nzu yo hejuru, ndi kuhabona n'ibintu bigiye bitandukanye byiza, iri soko rikaba ari igikorwa remezo cyubakiwe abaturage, muri aka karere ka Musanze.